Ni abantu bizihiwe bari kubyina, bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hahagaze umuzungu wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari inyubako isize ibara ry'umuhondo harimo amagambo y'ubururu.

Ni abagabo babiri bari kuramukanya bambaye imyenda y'imikara, umwe afite ibitabo mu kuboko kwe kw'ibumoso. Hirya yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Ni abantu bicaye ku ntebe z'imikara, biganjemo abagore n'abagabo. Hirya hahagaze umugore ufite ibisuko birebire wambaye ishati y'umuhondo. Iruhande rwe hari undi wambaye iy'umutuku ufite igitambaro cy'umweru mu mutwe.

Ni umugabo uri guseka, wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara. Imbere ye, hari injerekani y'umuhondo. Iruhande rwe, hari ivomero.

Ni abantu batatu, umuganga wambaye itaburiya na ga by'umweru, ari kwita ku mwana wambaye agapira k'umweru, uteruwe n'umugore wambaye imyenda isa n'igitenge yambaye mu mutwe.

Ni umwana wunamye imbere y'ivomero, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye. Yambaye agashati ka gisirikare n'ikabutura y'umutuku. Hasi ye hari indobo iri kugwamo amazi aturutse kuri iryo vomero no mu ntoki ze.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo. Abo ku ruhande rumwe bicaye ku ntebe z'ubururu abandi iz'imikara. Hagati yabo hahagaze umugabo, inyuma ye hari icyapa gishushanyijeho umuntu cy'ibara ry'icyatsi.

Ni abantu batanu, bane bicaye, babiri bo ku ruhande rubanza umukobwa n'umuhungu bambaye amataburiya y'umweru, abandi babiri ku rundi ruhande bambaye amashati y'ubururu, inyuma yabo hahagaze undi umwe w'umusore wambaye itaburiya y'umweru.

Ni ababyeyi b'abagore bicaye ku ntebe, buri umwe ateruye umwana. Uri imbere yambaye agapira k'umutuku akenyeye n'igitambaro cy'umukara kirimo uturongo tw'umweru mu mutwe. Inyuma yabo hari igikuta cy'amatafari ari mu ibara ry'umukara n'umweru n'andi y'umutuku.

Ni abantu batanu, abakobwa bane'umusore umwe. Bose bambaye imipira y'ibara ry'ubururu, imbere yabo hari icyapa cy'ubururu kirimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru. Umwe muri abo bakobwa azamuye ikiganza, yambaye agapira k'umukara mo imbere.

Ni abantu batatu, umugore n'umugabo begeranye, umugore yambaye ikote ry'umukara aratwite umugabo amukoze ku nda, imbere yabo hicaye umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ibara ry'ubururu.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'iherena ry'icyatsi, uri guha imiti akana kambaye umupira w'umweru, gateruwe n'umubyeyi ufite imisatsi y'umukara isanzwe.

Ni umusaza wambaye ingofero mu mutwe, imbere ye hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa n'itaburiya by'umweru. Afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, inyuma yabo hahagaze umwana.

Ni abantu bahagaze mu ihema ry'umweru mu mbuga iteyemo ubwatsi, bambaye amataburiya y'ubururu bari gukoma amashyi, hirya hari uwicaye ku ntebe y'umweru wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ni umugore ubona ko akuzemo wambaye amarinete n'umupira w'ubururu, urengejeho akajire k'umukara kariho ikirango cy'umweru, ari gutanga impapuro, akikijwe n'abandi bantu na bo bafite impapuro nk'izo afite mu ntoki.

Ni umubyeyi wambaye imyenda isa n'igitambaro akenyeye mu mutwe, ateruye umwana, afite igipapuro cy'umuhondo mu ntoki ze, inyuma ye hari abandi babyeyi bicaye, n'abahagaze.

Ni abana babiri bari ku ivomero, umwe ari hepfo yaryo ari kuvomera akajerekani k'umuhondo, undi ahagaze haruguru yaryo, inyuma yabo hari abandi bana bari gutambuka babitegereza, hirya yabo hari ibiti n'amazu, hirya hari imisozi miremire.

Ni umugabo wambaye butine z'umweru, yicaye ku ntebe y'urubaho. Afite igitabo mu ntoki, imbere ye hicaye umugore mu ntebe y'ubururu uri kumwe n'umwana wambaye umupira w'umutuku.

Ni umugore wambaye umupira w'ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa ukenyeye n'igitenge cyiganjemo amabara y'umuhondo, ari koza ibiganza by'umwana wambaye impuzankano, hirya yabo hari ibiti bitagaragara neza.

Ni abantu bicaye mu nzu mberabyombi, biganjemo abazungu n'abirabura. Bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umukara, iteretseho uducupa tw'amazi n'amakaye.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo b'abaganga, bambaye amataburiya y'umweru. Hagati hahagazemo umugore w'umuzungu, wambaye umwenda muremure w'umutuku.

Ni abagabo batatu bahagaze. Bose bambaye udutambaro tw'ubururu mu mutwe, umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara. Babiri bo ku mpande bambaye amataburiya y'ubururu, uwo hagati yambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu bicaye abagore batatu, imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa tw'amazi, hirya hahagaze umugore wambaye umupira w'umweru afite indangururamajwi, na we imbere ye hari imeza iriho igitambaro, inyuma yabo hari icyapa cy'umweru kirimo n'amabara y'icyatsi kibisi.

Ni abantu biganjemo abasore n'inkumi, n'abagore n'abagabo. Bahagaze mu mbuga y'amapave, bateruye icyapa kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru, handitsemo amagambo y'umweru n'ay'umukara.

Ni umukecuru ubona ko akuzemo ufite imisatsi yiganjemo imvi z'umweru, yicaye ku karago, akikijwe n'abana bari kureba imbere.

Ni umusaza uri guhamiriza wambaye ingofero ishaje n'ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara. Yiteye umwitero w'ibara ry'umuhondo, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo icumu.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri, ifite amadirishya y'ibirahuri, hejuru hayo hubakishije ibisa n'ibara ry'icyatsi kibisi, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Ni umugabo ufite ubwanwa buke, yambaye umwenda w'umweru. Ari kwireba mu ndorerwamo, afite akadudo k'umweru mu ntoki ze, ari kukanyuza mu menyo ye ahagana hejuru.

Ni abana bambaye impuzankano z'ishuri, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, uri imbere afite ubw'ibara ry'umuhondo, umukurikiye inyuma afite ubw'ibara ry'icyatsi kibisi ari kubunyuza mu menyo ye.

Ni abantu babiri. Umusore ufite udusatsi tugufiya n'umukobwa ufite imisatsi miremire. Bombi bambaye imipira y'imyeru, bafite utudodo mu ntoki, bari kutunyuza mu menyo yabo.

n'umugore uhumirije ufite imisatsi ya plante yambaye agasengeri k'umweru afite akadodo k'umweru mu ntoki ze ari kukanyuza mu menyo ye y'ahagana hejuru imbere.

Ni abana bari mu cyumba cy'ishuri, bambaye impuzankano z'ishuri. Bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, bari kumwe n'umukobwa mukuru ufite ibisuko, wambaye ishati irimo amabara y'umuhondo n'utuntu tw'umutuku.

Ni umusore ufite ubwanwa butari bwinshi n'umusatsi mukeya, hejuru yambaye ubusa, afite akadodo k'umweru mu ntoki ze, ari kukanyuza mu menyo ye y'ahagana hejuru imbere.

Ni abantu babiri, umugabo wambaye agapira k'umukara n'ipantaro, ari kumwe n'umugore w'umuzungu, wambaye ishati y'umweru, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ipantaro afite n'igikoresho cy'ikoranabuhanga mu kiganza cye cy'iburyo.

Ni abantu babiri, umukecuru ufite umusatsi w'imvi z'umweru n'umugabo ufite umusatsi n'ubwanwa birimo imvi z'umweru, bari guseka, imbere yabo hari imeza iriho utuntu tw'umukara turimo amabara y'umweru.

Ni abantu babiri. Umugore wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe n'amarinete, wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda. Inyuma ye hahagaze umukobwa ufite ibisuko, wambaye ishati y'ibara ry'ubururu.

Ni umugore ubona ko akuzemo, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye amarinete n'ishati y'umuhondo, mu ntoki ze afitemo agacupa ari gusuka ibinini, imbere ye hari imeza iriho ibindi binini.

Ni abantu babiri, umukecuru wicaye wambaye agakomo k'ibara ry'umukara, agiye gufata ibinini. Imbere ye hari imeza iteretseho ikirahure kirimo amazi.

Ni abantu babiri. Umugabo ubona ko akuzemo wiyogoshesheje ufite ubwanwa bw'imvi n'umukobwa w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kumwitaho, imbere yabo hari ime iteretseho akamashini gapima umuvuduko w'amaraso.

Ni abantu babiri, umusaza ufite imisatsi yiganjemo imvi z'umweru, wambaye agapira n'umukecuru wambaye umupira w'umutuku ufite umusatsi urimo imvi nyinshi, imbere yabo hari imeza iteretseho ikirahure kirimo amazi n'uducupa tw'ibinini.

Ni abantu babiri. Umusaza ufite imvi z'imyeru mu musatsi wambaye umupira w'amaboko maremare, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kugenda. Iruhande rwe hahagaze umukobwa muto wambaye imyenda y'ubururu ufite imisatsi isanzwe.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo ufite imvi mu bwanwa, wicaye mu ntebe wambaye umupira w'amaboko maremare n'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, ufite ibisuko biryamye.

Ni abantu babiri. Umugabo ubona ko akuzemo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'ubururu. Yicaye mu ntebe, imbere ye hapfukamye umugore wambaye ishati y'icyatsi kibisi n'agapfukamunwa, ari kumufungira ibipesu.

N'abantu bahagaze bari gukoma amashyi biganjemo abagore n'abagabo umwe wo hagati wambaye imyenda isa bari kumuha akagare k'ababana n'ubumuga inyuma yabo hari igiti cy'amashami ariho ibibabi.

Ni abantu babiri, umugore ubona ko akuzemo ufite imisatsi yiganjemo imvi wambaye amarinete, uri gukata imboga n'undi uri kumureba imbere ye hateretse isorori y'ikirahure.

Ni umukecuru ufite umusatsi wiganjemo imvi z'umweru, ateruye indangururamajwi isa umutuku iciyemo akarongo k'umuhondo, yambaye agasengeri k'ubururu n'umwitero.

Ni abantu babiri, umugabo ubona ko akuzemo ufite imisatsi yiganjemo imvi nkeya, yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'itiriningi y'umukara, inyuma ye hahagaze umugore wambaye imyenda y'ibara ry'ubururu.

Ni abantu babiri. Umugore uhagaze wambaye imyenda y'ubururu, imisatsi y'umukara, n'umukecuru wicaye, ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki. Imbere yabo hari imeza.

Ni abantu babiri, umusaza ukuzemo wambaye ishati y'umutuku y'amaboko maremare, ufite umusatsi wiganjemo imvi z'umweru n'ubwanwa, yambaye amarinete, yicaye mu ntebe, imbere ye hicaye umukobwa wambaye imyenda y'ubururu uri kumusuzuma.

Ni abantu babiri. Umugabo ubona ko akuzemo n'umusore wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo y'umukara. Bari kureba mu gitabo kiri imbere yabo, hari n'imeza iteretseho udukombe tubiri tw'umweru.

Ni abantu bahagaze n'abandi bicaye bambaye imipira ya oranje, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umuhondo iteretseho uducupa tw'ubururu.

Ni abantu babiri. Umukobwa wambaye inkweto ndende n'agakanzu k'umweru karimo utuntu tw'amabara atandukanye yiganjemo ay'umutuku n'umuzungu umuhagaze iruhande, wambaye imyenda y'umukara.

Ni abantu b'igitsina gore bicaye, bamwe bambaye imipira isa y'imikara, abandi bambaye iy'imyeru. Imbere hicaye umwe wambaye amarinete n'ishati y'ibara ry'ubururu.

Ni amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, munsi yayo haciyemo umurongo w'umukara, munsi y'uwo murongo hari andi yanditse ibara ry'umutuku, iruhande rwayo hari ikimenyetso kiri mu ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ni icyapa gishinze ku maguru ari mu ibara ry'ubururu cyo kirasa umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ubururu n'umutuku. Hirya hari inzu y'ibara ry'umuhondo ifite igisenge cy'umutuku.

Ni inzu mberabyombi ifite amadirishya y'ibirahuri, harimo intebe z'umukara zizinze, imbere hari imeza ndende isize ibara ry'umweru.

Ni inyubako ndende, ifite amadirishya y'ibirahure, isize irangi ry'ibara ry'umuhondo, imbere yayo hari imbuga ngari ifite imiryango y'imbaho.

Ni inzu ndende y'amagorofa arenga atatu, ifite amadirishya y'ibirahuri, imbere yayo hari icyapa cy'umweru kirimo umukara, wanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Ni abantu bane b'igitsina gore b'abaganga, bose bambaye udupfukamunwa tw'ubururu. Inyuma yabo hari inzu ndende yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite igisenge cy'amabati asize irangi ry'ubururu. Imbere hari inkingi y'umuhondo, iriho amagambo ari mu ibara ry'umukara, impande yayo hari ibigega by'umukara bibiri.

Ni abantu bane, bambaye amataburiya y'umweru. Abasore babiri n'abakobwa babiri. Umwe yambayemo agashati k'umukara, yifashe mu mayunguyungu, imbere yabo hari icupa. Bari gusukamo amazi.

Ni inzu ndende y'amagorofa abiri, yubakishije amatafari, hejuru imanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umukara ndetse n'umutuku.

Ni abantu biganjemo abagore n'abagabo ubona ko bakuzemo, bamwe bambaye imipira isa iri mu ibara ry'umuhondo. Bicaye ku ntebe z'icyatsi hasi yabo hateretse uducupa tw'amazi apfundikiye.

Ni umwana wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ateruye akabase k'umukara. Inyuma ye hari umuntu mukuru uri kumwe n'umwana. Hirya yabo hari inzu ifite igisenge cy'umutuku.

Ni abantu babiri, umusore wambaye agapfukamunwa n'ingofero by'umukara, n'agapira k'amaboko magufi uryamye ku gatanda ko kwa muganga, uri kwitabwaho n'umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ufite ibisuku.

Ni inzu yubakishije amatafari, ifite inkingi z'umweru. Iriho igisenge cy'amabati y'ibara ry'umukara. Imbere hayo handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari imbuga iri kunyuramo abantu.

Ni inzu isize ibara ry'umweru ifite amadirishya arimo ibirahure, ifite igisenge cy'amabati y'ubururu. Imbere hari amarembo asize ibara rya oranje, arimo umweru usizemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ni inzu y'umweru, ifite inkingi z'umweru, ifite igisenge cy'amabati y'ubururu. Imbere yayo hari imbuga ngari, ku ruhande rwayo ikikijwe n'ibiti birebire by'amashami.

Ni agacupa karimo amazi gafite umupfundikizo w'ubururu, iruhande rwako hateretse imbuto zitandukanye ziganjemo pome, amaronji n'ibindi.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi y'umukara, yambaye agapantaro kamwegereye. Iruhande rwe hari igikuta kiri mu ibara ry'ubururu.

Ni umusore ufite imisatsi miremire igarukira ku bitugu, ari gukora imyitozo. Yambaye agakabutura k'umukara karimo ibirango by'umutuku n'umurongo w'umutuku n'umweru ku mpande. Iruhande rwe hasutamye umuzungukazi w'imisatsi miremire wambaye ipantaro y'umukara.

Ni umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire, yambaye agasengeri k'ibara ry'ubururu, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo agacupa k'amazi ari kuyanywa.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri n'agakabutura kagufiya biri mu ibara ry'icyatsi, yambaye inkweto zifite taro y'ibara ry'umweru.

Ni umugabo wambaye agakabutura kagufi, n'umupira w'umweru urimo ibishushanyo by'umutuku, yicaye ku kabati ukuguru kwe kw'iburyo kwakomeretse bari kugupfuka. Imbere ye, ari gupfukwa n'umusore wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Ni udukapu tubiri tw'ibara ry'umutuku, dufite imashini z'umukara n'imigozi y'imikara, kamwe karafunguye karimo ibikoresho by'ibanze mu buvuzi nk'igipima ubushyuhe, imikasi n'ibindi.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gatapi. Yambaye agapantaro kamwegereye n'isengeri bisa, afite umusatsi usanzwe. Ari kwigorora amaboko ye yombi bifashe ku kirenge cye cy'ibumoso.

Ni umusore ufite ubwanwa buke wicaye hasi, wambaye isengeri n'ipantaro by'umukara, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho akantu k'icyatsi kibisi, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo agacupa k'amazi.

Ni umugabo ubona ko akuzemo, yambaye agapira k'umukara. Mu kuboko kwe kw'iburyo afite agacupa karimo amazi ari kuyanywa. Inyuma ye hari ibihuru by'icyatsi bitagaragara neza.

Ni abantu babiri, umusore wambaye ipantaro y'ikoboyi ihinnye ukuguru kumwe, wicaye ku gatanda k'umukara n'umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, uri kumuzingiraho bande ku kaguru ke k'iburyo.

Ni abaganga bambaye imyenda y'ubururu n'udupfukamunwa ndetse n'udutambaro mu mutwe. Iruhande rwabo hari akameza kariho igitambaro cy'ubururu, gateretseho ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye.

Ni umukobwa ufite imisatsi myinshi ifunze, wambaye agasengeri na ekuteri mu matwi, ku kuboko kwe kw'iburyo haziritseho akantu k'umukara, afite icupa ari kunywa amazi.

Ni abantu biganjemo abasore n'inkumi bicaye. Imbere yabo hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ari kubereka amashusho afashe ku gikoresho.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aryamye ku gatapi k'umukara, yambaye agapantaro kamufashe n'isengeri by'umukara, hirya ye hari urukuta rusize ibara ry'umweru n'idirishya ry'ibirahuri.

Ni umusore w'umuzungu wicaye wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, yiteye isume y'ibara ry'umuhondo, afite telephone mu kiganza cye cy'ibumoso ari kunywa amazi.

Ni umusore wicaye hasi, ufite ubwanwa buke budaconze, yambaye agaseri k'umukara. Ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho akantu k'ibara ry'icyatsi. Afite icupa ari kunywa amazi.

Ni umusore wunamye, wambaye agakabutura kagufiya k'ibara ry'umukara, ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha y'ibara ry'umukara. Ibiganza bye byombi bifashe ku ivi rye ryo ku kuguru kw'ibumoso.

Ni umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye hasi, yambaye agapantaro kamwegereye n'isengeri by'ibara ry'umukara n'inkweto ziri mu ibara ry'umweru, ibiganza bye byombi birarambuye afashe ukuguru kwe ku kirenge cy'iburyo.

Ni uducupa dutatu tubiri turareshya akandi kamwe ni kagufi, twose dufite imipfundikizo y'imyeru turiho ibyapa by'amabara atandukanye.

Ni uducupa dutandukanye hasi no hejuru no hagati turimo imiti itandukanye, dufite imipfundikizo iri mu mabara umukara, umweru, umutuku n'umuhondo.

Ni akajerekani k'umuhondo gafite umupfundikizo uri mu ibara rya shokora. Kanditseho amagambo ari mu ibara rya shokora, hariho n'ikirango cy'ikiguruka kiri muri iryo bara.